Umugore wicaye ku gitanda cyo kwa muganga arwaye yagiye kwivuza, imbere ye hahagaze umuganga bamushyizeho igipimo ku kuboko kugira ngo bamusuzume barebe uko umuvuduko w'amaraso uhagaze mu mubiri we, babone uko bamufasha ku buryo bwizewe.

Kwa muganga ahantu hateraniye ababyeyi benshi bafite abana bagiye kubapimisha kugira ngo barebe ibiro byabo n'imikurire yabo ko bihuye bakomezaze kubitaho nibasanga bafite ikibazo bamenye uko bakurikirana mu buryo bwizewe.

Abantu bicaye ahantu hamwe, bambaye imipira isa, bari mu nama bose bacecetse, bateze amatwi umuntu ubari imbere kugira ngo bumve ijambo ri kubagezaho, ufite inama cyangwa igitekerezo, abona uko agitanga cyangwa ushaka kubaza.

Umugore wicaye ku ntebe imbere ye hahagaze umuganga, wambaye ga ari kumutera urushinge kugira ngo amuhe umuti akomeze kurinda ubuzima bwe kandi abashe kuba yakira mu buryo bworoshye kandi bwizewe uwo muti nta ngaruka ufite ku buzima bwe.

Abantu bateraniye kuri robine bafite amajerekani, bagiye kuvoma amazi asukuye, kugira ngo babone ayo gukoresha mu ngo zabo yizewe, birinda indwara zikwirakwizwa no gukoresha amazi mabi yanduye.

Icyumba kirimo abaganga benshi bambaye imyenda bikwije ahantu hose, bambaye udupfukamunwa na ga ku ntoki, bari kuvura umurwayi bamubaga kugira ngo bamufashe bagire vuba kandi ku buryo bwizewe.

Umwana ahagaze wambaye inifomo z'ishuri imbere hagaragaza umubyeyi we w'umu mama ari kumufasha amukarabya intoki kugira akureho umwanda yirinde indwara zikwirakwizwa n'udukoko twaba twafashe ku ntoki mu gihe afashe ifunguro atazikarabye neza.

Abana bari ku iriba bateranye bagiye gushaka amazi meza yo gukoresha kugira ngo bayajyane mu ngo zabo, birinde gukoresha amazi mabi yanduye ashobora gutera indwara zitandukanye biturutse ku mwanda.

Abantu bahagaze bafite amajerekani, bayatondesheje umurongo ku iriba kugira ngo babone amazi meza yo gukoresha mu ngo zabo, biririnde indwara zikwirakwizwa n'umwanda uturutse mu gukoresha amazi adasukuye.

Ahantu hateraniye abagore benshi, bari kwifotoza, bavuye mu nama yari yabahuje baganiraga ku buzima n'imyitwarire kugira ngo bakomeze kwita ku miryango yabo ku bana babo n'abagabo babo n'abo babana bose muri rusange bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Icyumba kirimo abaganga bagiye bicaye ku meza zitandukanye, hari abantu baje kwikingiza, bari kubavura babakingira icyorezo kugira ngo kireke gukwirakwira, kitica abantu benshi, kandi bakiririnde, bakirandure vuba.

Ahantu hanini hateguwe kugira ngo hahurizwe amazi babashe kuyakorera isuku, bayavanemo imyanda abaturage babe bayakoresha ku buryo bwizewe asukuye, nta ngaruka mbi afite ku buzima bwabo.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe kugeza amazi meza ku baturage, kugira ngo aho baherereye hose babone amazi yizewe asukuye yo gukoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi, kugira ngo birinde indwara zikwirakwizwa no gukoresha amazi yanduye.

Abantu bicaye bateraniye mu nam, imbere yabo hicaye abagabo bafite indangururamajwi imbere yabo. Bari kugeza ijambo ku bantu bacecetse babateze amatwi kugira ngo bose bumve icyo bababwira, ufite ikibazo abe yabaza cyangwa utanga inyunganizi cyangwa igitekerezo nawe bamwumve neza.

Umukobwa wunamye ufite indobo mu ntoki, ari kuvoma amazi mu mugezi utemba kugira ngo ajye kuyakoresha mu rugo kandi ayo mazi asa nabi, ashobora kubaviramo indwara ziterwa n'umwanda uturutse mu gukoresha amazi adasukuye.

Hateraniye abaganga benshi bavuye mu nama, bishimiye ko ibyari byabahuje bigenze neza, bari gufata ifoto y'urwibutso, kugira ngo izabafashe kuzirikana inama bari barimo, n'ibyo biyemeje kubishyira mu bikorwa mu buryo bworoshye kandi bwizewe.

Umugore uhagaze ku iriba yagiye kuvoma amazi meza atunganyijwe yizewe yo gukoresha mu ngo zabo kugira ngo birinde indwara zikwirakwizwa no gukoresha amazi mabi adasukuye.

Abantu bahagaze imbere y'inyubako itangirwamo ubuzima kugira ngo abantu babafashe kubavura indwara zitandukanye, mu gihe baje babagana mu buryo bworoshye kandi bubegereye bitabasabye gukora ingendo ndende.

Abana babiri bahagararanye, umwe ari koga intoki, akoresheje amazi meza n'isabune, kugira ngo akure umwanda ku biganza bye, yirinde indwara zikwirakwizwa n'udukoko dushobora gusigara ku ntoki, mu gihe atakarabye neza ngo akureho uwo mwanda.

Abana bahagaze ku iriba, bari koga intoki n'amazi meza n'isabune, kugira ngo bakure umwanda ku ntoki zabo bakomeze kwirinda indwara zikwirakwizwa n'udukoko, biturutse kuba bafata ifunguro batakarabye intoki neza.

Abantu bahuriye mu cyumba cy'inama, bari kuganira ku ngingo zerekeranye n'ubuzima, kugira ngo bafate imyanzuro imwe bose bacecetse kandi batuje, bari kumva abantu babari imbere, ijambo bari kubagezaho, kugira ngo ufite inama cyangwa igitekerezo, abe yagitanga cyangwa abaze.

Abana bari mu mugezi bari gukaraba bambaye ubusa mu mazi kandi bishobora kubagiraho ingaruka zitandukanye, zishobora kubatera indwara ziterwa n'umwanda kuko ayo mazi arimo imyanda itandukanye, arimo n'udukoko dutandukanye dushobora gutera indwara.

Abakobwa bahagaze bari kumwe n'umugabo, imbere yabo hari icyapa cya Unicef, bambaye imipira isa, bari bari mu nama yo kwiga kurengera abana no kubitaho kugira ngo babashe gukura neza mu mibiri no mu myitwarire no mu buzima bwabo bwose.

Umubyeyi wicaye ateruye umwana mu ntoki, imbere ye hagaze umuganga afite agacupa mu ntoki karimo umuti, ari kuwuha uwo mwana kugira ngo bamwiteho, akomeze gukura neza, afite ubuzima bwiza nta kibazo.

Ahantu hahagaze abajyanama b'ubuzima bavuye mu nama, barimo babigisha uburyo bwo kwita ku baturage, ku babyeyi batwite n'abana babo ndetse no gufasha abafite ibibazo kugira ngo babakire babagire inama mu buzima bwabo.

Umwana uhagaze ubona uri imbere ya robine, ari gukaraba intoki yifashishije amazi meza n'isabune kugira akure imyanda ku ntoki, abashe kuba yakirinda indwara zikwirakwizwa n'umwanda mu gihe atakarabye intoki avuye ku bwiherero.

Umwana w'umunyeshuri uhagaze kuri robine, uri gukaraba intoki akoresheje amazi meza n'isabune, kugira ngo yikureho umwanda, yirinde indwara zikwirakwizwa n'umwanda waturuka mu kuva mu bwiherebe ntukarabe intoki.

Abantu bateraniye ahantu ari benshi bagiye kwivuza harimo abagore, abakobwa n'abagabo n'abasore n'inkumi kugira ngo abaganga babafashe, bari kugenda bakirira umwe kuri umwe ababwiye ibibazo afite bakabyandika kugira ngo babone uko bamufasha.

Abana bateraniye hamwe bambaye inifumo z'ishuri, bambaye amashati y'umuhondo n'amakabutura y'umukara bishimye bazamuye ibiganza mugihe bari barimo baganirizwa ku biganiro byo kwita ku buzima bwabo.

Icyumba kinini gihuriyemo abantu benshi bicaye bakoze uruziga hagati yabo harimo umuganga ari kubaca abaganiriza kugira ngo akomeze abigishe kwita ku buzima bwabo n'abo bari kumwe, kugira ngo bose bakomeze kuba bameze neza ku buryo bwizewe.

Umuntu wese agomba kwita ku buzima bwe mu mitekerereze akumva ameze neza ubuzima bwe bwo mu mutwe kandi agafasha na mugenzi we n'abo bari kumwe bose kugira ngo bamererwe neza abagira inama abitaho abafasha muri buri kimwe.

Umugore uhagaze ufite ikarita mu ntoki, iriho ikimenyetso cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe, magana cyenda mirongo icyenda na kane, kugira ngo tujye duhora tubyibuka, bitazongera kuba mu Rwanda rwacu, tukaguma turi amahoro tumeze neza.

Umukobwa wicaye ku rubaraza rw'inzu mu ntebe yazamuye akaguru kamwe, inyuma ye hateye indabyo yishimye ubona ameze neza nta kibazo, ubuzima bwe bufite imbaraga kandi bukora neza.

Mu bantu bateranye bavuye mu nama ari urubyiruko, barimo babagezaho ibiganiro byerekeranye n'ubuzima kugira ngo bakomeze kwirinda ibibashuka n'ibiboshya, ku buryo byakangiza ubuzima bwabo biturutse ku bintu byinshi bitandukanye.

Ahantu hateraniye abantu benshi bavuye mu nama, bari gufata ifoto y'urwibutso kugira ngo izabafashe kuzirikana imyanzuro bafashe mu nama bari barimo n'ibyo biyemeje bazabikurikize mu buryo bworoshye kandi bwizewe.

Abantu bahuriye ahantu hamwe bari bavuye mu nama, bishimira gufata ifoto y'urwibutso kugira ngo izabafashe kubigira nk'ikimenyetso kizajya kibubutsa ibyo bavuganye n'ibyo biyemeje kugira ngo babikurikize neza mu buryo bwizewe.

Abantu babiri bafite umusore w'umuhungu mu maboko, ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, wambaye imyenda yayiciriyeho, ari umugore n'umugabo bamufashe, bamujyanye kugira ngo bajye kumwitaho, abashe kuvurwa akire mu gihe kihuse.

Umugabo uhagaze, wambaye ipantaro y'umukara n'ishati irimo amabara y'umweru n'umutuku, imbere ye hahagaze umugabo, wambaye imyenda yacikaguritse ufite umusatsi usa nabi urimo umwanda, umugabo ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, ari kumuganiriza kugira ngo amwiteho abashe kuba yakira asubire mu buzima busanzwe.

Umugabo ufite ikibazo cyo mu mutwe, wicaye ku muhanda muri rigori, yambaye imyenda yacikaguritse, afite imisatsi isa nabi, afite amashashi mu ntoki, akeneye kwitabwaho, akegerwa, akaganirizwa, akajyanwa mu bitaro byita ku bantu bafite ibibazo byo mu mutwe kugira ngo bamukurikirane, abe yasubira kuba mu buzima busanzwe nta kibazo.

Umugore uhagaze mu muhanda ufite isuka mu ntoki, avuye gukura ibijumba yikoreye igitebo kirimo imigozi kugira ngo abone ifunguro ryo kwita ku muryango we babona ibyo kurya bihagije.

Ikigo gishinzwe gufasha abantu kibagira inama, kugira ngo babashe gutekereza neza, ibibazo bafite babaganirize babikemure, ku buryo bwizewe, binyuze mu biganiro, kandi babashe kugira ibitekerezo bizima n'umutwe ukora neza.

Ahantu hateraniye abantu benshi bagiye kwivuza, hagiye hari imeza zicayeho abaganga batandukanye, bari kugenda babafasha uko bagiye bakurikirana, havaho umwe hakajyaho undi kugira ngo birinde akavuyo; kandi buri wese agerweho ku buryo bwizewe babafashe neza.

Umugore uhagaze imbere y'inzu, wambaye umupira utukura, imbere yambariyemo umupira w'umukara, ari guseka yishimye ubona afite ubuzima bwiza, yiyitaho nta kibazo afite isuku, urebye nta kintu abaye ameze neza afite ubuzima bwiza.

Umwana wicaye ku ntebe yigamye, umutwe yawurebesheje hejuru, imbere hahagaze umuganga ufite udukoresho tugezweho, twabugenewe kugira ngo tuvure amenyo, ari gufasha uwo mwana ngo amuvure amere neza.

Umukobwa wicaye kwa muganga, imbere ye hahagaze umuganga ufite amenyo y'insimburangingo mu ntoki ze, ari kuyapima mu kanwa k'uwo mukobwa kugira ngo amufashe amuvure abashe kumera neza.

Umugore wicaye hasi kuri tapi ari muri siporo kugira ngo bifashe ubuzima bwe akomeza kubwitaho, akomeze kumera neza ntakibazo kandi umubiri we ufite imbaraga zihagije.

Umusaza uhagaze uri muri siporo, yafashe akaboko kamwe yagashyize ku ntebe, akandi ari kugasubiza inyuma, afite icyuma cyifashishwa mu gihe umuntu ari gukora siporo, impande ye hahagaze umugore w'umuganga uri kumwitaho amukurikirana amwereka uko abikora kugira ngo ubuzima bwe bukomeze bugende neza.

Umusaza uri kwa muganga uryamye ku gitanda, bamucometseho imashini ziri kumufasha, kugira ngo abone ubuvuzi bwiza kandi bugezweho bwizewe, impande ye hahagaze umuganga uri kumukurikirana bya buri kanya.

Umugabo uhagaze imbere y'igitanda ari kugendera mu mbago zifatanye, bifashisha kugira ngo bamenyereze umuntu wavunitse akaguru cyangwa umaze igihe urwaye aryamye atagendesha amaguru, ayamenyereze abashe kuba yasubirana neza agakora.

Umusaza wicaye imbere y'umuryango iruhande rwe hicaye abana bari kurya imbuto kugira ngo bakomeze kwita ku buzima bwabo bamere neza imibiri yabo ibe ifite imbaraga zihagije zo gukora indi mirimo itandukanye nta kibazo.

Umusaza wicaye ari gukina damu kugira ngo umutwe we ukomeze ukore, ubwoko bwe bukomeze butekere neza kandi yifashishe gukora imirimo itandukanye ituma ubwonko butekereza kugira akomeze kuba ameze neza nta kibazo.

Abakecuru bahagararanye ari batatu, bishimye bari guseka, bafite ubuzima bwiza biyitaho; umwe afite telefoni mu ntoki ari kubafotora kugirango birebe, barebe uko bameze, nta kibazo bafite banezerewe.

Umukecuru wicaye mu ntebe, inyuma ye hahagaze umukobwa w'umuganga uri kumwitaho, bari kuganira baseka, kugira ngo ubuzima bwe akomeze kububungabunga, ameze neza umubiri we ufite imbaraga, kandi afata indyo yuzuye n'imimiti ayibonera ku gihe.

Umusaza wicaye minini ufite inkoni mu ntoki ruhande rwe hagaze muganga, ari kumuganiriza baseka kugira ngo amwiteho akomeze gukurikirana ubuzima bwe, umusaza akomeze kubaho kubaho neza afite ubuzima bwiza kandi umubiri ufite imbaraga.

Umusaza wicaye ari gusoma igitabo kugirango akomeze atu ubwonko bwe bukomeza gukora neza, gutekereza neza byongera imbaraga z'umubiri kandi umutwe ukomeza gutekereza ibintu bifite akamaro gusa.

Umusaza wicaye ku ntebe impande ye hari umuganga ari kumusobanurira uburyo agomba kwiyitaho, kugira ngo ubuzima bwe bukomeze bumeze neza kandi umubiri we ufite imbaraga zihagije zo kuba yakora n'indi mirimo itandukanye.

Umusaza n'umukecuru, bicaye ku meza, bari kuganira bafata ifunguro ryuzuye, ririho imboga n'imbuto, kugira ngo bakomeze kwita ku buzima bwabo, n'imibiri yabo ikomeze kuba ifite imbaraga zihagije.

Umukecuru wicaye, imbere ye hari imeza iteretseho igikata kirimo imiti, iruhande rwe hahagaze muganga, ari kumufasha amuhereza ibinini mu ntoki kugira ngo abinywe, akoresheje amazi.

Umusaza n'umukecuru bicaranye ku meza imbere yabo hateretse ikirahuri kirimo amazi n'agakarito k'ibinini, umusaza ari kuyibibarira mu ntoki bafite urupapuro bari gusoma ruriho amabwiriza y'ukuntu iyo miti bagomba kuyifata mu buryo bwizewe kandi bwiza.

Umuryango wateranye bishimye, ugizwe n'umusaza n'umukecuru, n'umugore n'umugabo n'abana babo. Bagiye gusura abasaza kugira ngo baganire, bishime bameze neza nta kibazo kandi bakomeze kwitanaho, kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze kugenda neza inyuma n'imbere.

Umusaza n'umukecuru bicaye ku meza bari kuganira bafata ifunguro rya mu gitondo, inyuma yabo hari umusore uri kubitaho kugira ngo bakomeze bagire ubuzima bwiza, kandi imibiri yabo ifite imbaraga, bakora neza nta kibazo.

Umusaza wicaye ku ntebe imbere ye hahagaze muganga ari kumufasha gukora siporo, kugirango atume umubiri ukomeza gukora neza kandi ufite imbaraga mubuzima bwe ntakibazo akomeze yitoze, kugira ngo ashobore kuguma kubaho igihe kirekire kandi abayeho.

Abantu bahagaze bari guha umuntu ubutabazi bw'ibanze mu gihe agize ikibazo, bamuryamishije ku kagare, bari kureba imiti kugira ngo bamufashe mbere y'uko agezwa kwa muganga, bamukurikirane bamwiteho.

Abantu bateraniye mu nama ari benshi bagiye kwiga ku bibazo byerekeranye n'ubuzima kugira ngo bagombe kubukoreraho ubushakashatsi, abantu babona imiti yo kwivuza bavumbure n'ibibazo birimo mu buryo bworoshye kandi bwizewe.

Icyumba kirimo abaganga benshi bambaye imyenda yabugenewe kugira ngo birinde bari kuvura umurwayi bamubaga, kugira ngo bamufashe neza akire ku buryo bworoshye kandi bwizewe; ko nta ngaruka mbi zirimo nyuma yo kuba bamu...

Kwita ku bidukikije ni imwe mu nkingi yo kugira ngo dukomeze tugire ubuzima bwiza, kuko tubona umwuka wo guhumeka uturutse mu bidukikije; mu mashami y'ibiti, mu gihe biri guhumeka bikaduha umwuka mwiza twifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Abantu bateraniye mu cyumba ari benshi, bahuriye hamwe ngo baganire ku biganiro byerekeranye n'ubuzima, bahana inama kandi bafate ingamba zo kwiyitaho no gufasha abandi kugira ubuzima bwiza.

Ahantu hateraniye abantu benshi, hari n'abaganga bambaye ku buryo bifunze neza, bari gusuzuma abantu ngo babapime icyorezo cya Kovide cumi n'icyenda, barebe ko ntawugifite bamenye uko babafasha n'uburyo babitaho kugira ngo bakirinde kuba cya kwirakwira.

Kuganiriza abana bakiri bato, ni byiza kugira ngo bakure mu mitekerereze, babashe kwiyitaho mu buryo bworoshye, bidasaba guhora babibutsa, bikabagirira akamaro mu mikurire yabo, bakazaba abagabo bashobo kwitekerereza mu buryo bworoshye.

Ahantu hateraniye abantu benshi, hari abagabo bicaye bambaye udupfukamunwa, bambaye bifunze ahantu hose, mu gihe bari gutanga urukingo rwa Covid cumi n'icyenda kugira ngo bakomeze kuyihashya bayirandure, ishire mu gihugu.

Umuntu wese agomba gushyiraho uruhare rwe kugira ngo yirinde icyorezi cya SIDA, kuko kigira ingaruka mbi ku buzima bw'umuntu nyinshi kandi zitandukanye kandi kikaba cyandura mu buryo bworoshye binyuze mu maraso cyangwa mu gukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu wacyanduye.

Kugira ngo duhagarike icyorezo cya Covid cumi n'icyenda, twese tugomba kubigiramo uruhare, dufata urukingo kugira ngo twongerere imibiri yacu ubudahangarwa kandi tukirinda gusuhuzanya, tukibuka gukaraba intoki dukoresheje amazi meza n'isabune kandi atemba.

Inyubako ikorerwamo na farumasi icuruza imiti y'abantu kugira ngo bayibone hafi yabo nk'uwo muganga yayandikiye cyangwa ufite uburwayi akeneye umuti akawubona ku buryo butamuvunnye kandi bumwegereye.

Icyumba kinini cyo kwa muganga kirimo utubati babikamo imiti kugira ngo mu gihe bari gufasha umurwayi, byorohe kuba bamubonera uko bamuvura kandi mu buryo bwihuse bwizewe.

Utubati turimo imiti itandukanye igiye ipanze ku buryo bukurikiranye, iri mu dukarito, n'iri mu macupa kandi buri gakarito na buri cupa hagiye handitseho izina ry'umuti n'uko ukoreshwa kugira ngo ugiye kuwugura abashe kuwutandukanya n'ubundi.

Icyumba cyo kwa muganga, giteguye neza kirimo isuku, kirimo ibitanda bakiriraho abarwayi, mu gihe barwariye mu bitaro bitabaye ngombwa ko bataha bakabona aho baruhukira, hateguye neza kandi bafite umutekano.

Icyumba cyo kwa muganga giteguye neza, kirimo isuku, kirimo ibikoresho bigezweho byifashishwa mu kuvura abarwayi baje babagana kugira ngo babiteho mu buryo bworoshye kandi bwizewe kuko bifite umumaro, hari n'intebe zo kwicaraho mu gihe bari kubavura n'imashini zikoreshwa.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ahantu hateganiyijwe kugira ngo abaganga bahurire mu gihe bari kuganira ku bintu bitandukanye byerekeranye no kuba bakita ku barwayi n'uko babafasha mu buryo bworoshye kandi bwiza, babakire neza.

Inyubako yo kwa muganga rimo ibikoresho bigezweho, byifashishwa mu kugira ngo bahe umurwayi waj'ubagana ubuvuzi bugezweho kandi bwizewe mu gihe gitoya bitamugoye, harimo imashini n'ibitanda byo kuryamaho bimeze neza, umurwayi aruhukiraho mu gihe ari mu bitaro.

Umuganga wicaye imbere y'imashini ari kureba amafoto n'imbavu z'umuntu, bafashe hifashishijwe ibyuma by'ikoranabuhanga bifotora mu mubiri mo imbere kugira ngo bagusuzume, bamenye indwara ufite babone uko bagufasha ku buryo bugezweho kandi bwizewe.

Umubyeyi uhagaze uteruye umwana, yamushyize mu bitambaro, imbere ye hahagaze umuganga, ari kumufasha kumwitaho kugira ngo uwo mwana akomeze kugira ubuzima bwiza, kandi akomeze gukora neza mu mibereho ye yose.

Inyubako z'ubakishije amatafari ahiye zagenewe gukorerwamo n'ikigonderabuzima cya Gisenyi, kugira ngo cyakire abaturage bafite ibibazo by'uburwayi ba bavure bitabasabye gukora ingendo ndende kandi babone ubuvuzi bwizewe mu gihe biboroheye.

Umugabo wicaye mu kagare k'abafite ubumuga, inyuma ye hari umwana uri kumusunika, amujyanye kwa muganga, kugira ngo bamwiteho, bakomeze kumufasha, ubuzima bwe bumere neza nta kibazo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bigezweho, gitunganyije neza, kirimo isuku, harimo imashini yifashishwa mu kuvura umurwayi; bamusuzuma imbere mu mubiri kugira ngo barebe uburwayi afite, bamenye ko bamufasha ku buryo bwizewe kandi bugezweho.

Abantu bahagaze imbere y'inyubako zikorerwamo n'ibitaro bya Rwamagana kugira ngo byakire abaturage baturiye aho hafi babafashe kubona ubuvuzi mu buryo bworoshye kandi bwizewe bugeho kandi bitabavunnye ngo bibasabe kujya ahantu kure.

Icyumba cyo kwa muganga giteguye neza kirimo isuku, kirimo ibikoresho bigezweho byifashishwa mu kuvura umurwayi igihe yaje abagana, harimo intebe umurwayi yicaraho n'imashini zikoreshwa kugira ngo bamukurikirane neza ku buryo bwizewe kandi bugezweho.

Umugore urwaye aryamye ku gitanda, imbere ye hagaze abantu bari kumusuzuma ngo bamwiteho barebe ikibazo afite, babashe kumenya uko bamukurikirana n'ubuvuzi bamuha kugira ngo abashe gukira vuba kandi mu buryo bwihuse.

Inyubako nini igeretse, yubakishije amatafari ahiye, imbere yayo hari parikingi nini iparitsemo imodoka, inyubako ikorerwamo n'ibitaro byigenga kugira ngo byakire abaturage, bibahe ubuvunzi bugezweho kandi bwiza bitabagoye, bakabubona hafi yabwo n'imiti ihagije.

Icyumba cyo kwa muganga giteguye neza kirimo ibikoresho bihagije kandi bigezweho, byifashishwa mu gutanga ubuvuzi ku barwayi baje babagana kugira ngo babavure vuba ku buryo bwizewe bidatinze.

Inyubako ikorerwamo na farumasi iraguha aho bacururiza imiti y'abantu kugira ngo abarwayi b'abaturage babone ubuvuzi ku buryo buboroheye, uwo umuganga yandikiye imiti n'ukeneye kwivura afite ikibazo cy'uburwayi abone aho ayigura mu buryo bumworoheye kandi hafi ye.

Inyubako ikorerwamo n'ibitaro bya Caraes, kugira ngo yakire abarwayi bafite ibibazo byo mu mutwe, babashe kubitaho bakurikirane babavure, babe bakira basubire mu buzima busanzwe nta kibazo, babane n'abandi.

Inyubako ikorerwamo na farumasi, kugira ngo abaturage babone kugura imiti habegereye ku buryo bwihuse kandi hafi y'abo bitabavunye ngo bibahende cyane, babone imiti bakeneye ku buryo bwizewe.

Umugabo uryamye ku gitanda cyo kwa muganga urwaye, bamucometseho imashini ziri kumufasha kumwitaho kugira ubuzima bwe busubire mu murongo, kandi abaganga bari kumukurikirana buri kanya kugira abone ibyo akeneye byose.

Icyumba cyo kwa muganga giteguye neza, kirimo ibikoresho bigezweho, kugira ngo bafashe umurwayi kubona ubuvuzi bwizewe, kandi mu buryo budatinze, harimo ibitanda byo kuryamaho, igihe umurwayi bamushyize mu bitaro, bikaba ngombwa ko aharara.

Icyumba cyo kwa muganga giteguwe neza, kirimo isuku, kirimo ibitanda bakiriramo abarwayi, kandi kuri buri gitanda hagiye hariho inzitiramibu, kugira ngo bakomeze kubafasha mu gihe bari mu bitaro, kuba bafite ahantu ho kuryama n'aho kuruhukira heza kandi hizewe.

Inyubako icururizwamo amarinete, kugira ngo abantu bafite ibibazo by'amaso babone imiti bandikiwe na muganga, n'amarinete bakeneye mu buryo bworoshye kandi bubegereye hafi, bwizewe ko bwujuje ubuziranenge.

Inyubako yo kwa muganga igenewe kwakira abantu bakora siporo kugira ngo babone ubuvuzi bukwiye kandi by'umwihariko babiteho uburyo bwiza bashobore kuba bakomeza gukora siporo bafite imbaraga imibiri yabo ikora neza.

Icyumba cyo kwa muganga giteguye neza, kirimo isuku, kirimo ibikoresho bigezweho byifashishwa mu gutanga ubuvuzi, harimo imashini ikoreshwa mu gihe bari gusuzuma umurwayi imbere mu mubiri bamucisha mu cyuma kugira ngo barebe ibibazo afite bamenye uko bamufasha.

Umuganga wicaye mu cyumba giteguye neza kirimo isuku, kirimo ibikoresho bigezweho. Harimo imashini n'intebe zifashishwa mu gihe barikuvura umurwayi, bamwitaho kugira ngo abone ubuvuzi bwiza bwizewe kandi bugezweho.

Inyubako iteye amarangi y'umuhondo, ishakaje amabati y'ubururu, igenewe gukorerwamo n'ikigonderabuzima cya Shagasha kugira ngo gifashe abaturage baturiye aho ngaho kubona ubuvuzi bugezweho kandi hafi yabo bitabasabye gukora ingendo ndende, cyangwa hagire ngo abarembera mu rugo.

Abantu bahuriye mu cyumba bari mu nama bacecetse batuje, bateze amatwi umugabo ubari imbere kugira ngo bumve icyo babwira, ari kubasobanurira akoresheje amajwi n'amashusho ari imbere ku kibaho, bari kureba bose kugira ngo bisobanuke mu buryo bworoshye.

Umugore wicaye afite agatambaro k'ubururu, ari kugakandisha ahantu yavunitse, kugira ngo agabanye uburibwe burimo kandi aharinde kuba habyimbirwa cyangwa izindi ngaruka zaturuka mu kuba atahitayeho.

Igikapu gifite ibara ritukura, imbere harimo n'ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu gihe bari gutanga ubutabazi bw'ibanze, umuntu agize ikibazo cya akoze impanuka, ku buryo bamufasha mbere yuko agezwa kwa muganga, ngo bamukurikirane.

Umugabo uhagaze ku zuba uri muri siporo, afite icupa ry'amazi ari kuyanywa ayandi ayimenaho mu mutwe kugira ngo umubiri we wari washyushye ubashe gukonja ugarure imbaraga abe yakomeza gukora siporo neza nta kibazo.

Mu gihe umuntu akora siporo kugira ngo agire ubuzima bwiza bimusaba no gufata indyo yuzuye, ku ifunguro afata hariho ibitera imbaraga, ibirinda indwara ndetse n'ibyubaka umubiri, akibuka gufata imboga n'imbuto kugira ngo umubiri we ukomeze umeze neza kandi ufite imbaraga.

Umugabo uhagaze mu muhanda, yari ari muri siporo, akagira ikibazo mu ivi, yunamye ari kuhakanda, kugira ngo uburibwe bwawe burimo bugabanuke, aharinde no kuba habyimbirwa, cyangwa hagira izindi ngaruka, zivuye kutahitaho.

Umugore uri muri siporo, ahagaze, ari kunywa amazi, mu gihe yararimo aruhuka, umubiri wongere ugarure imbaraga, abasha kuba yakomeza gukora siporo neza ntakibazo ku buryo bumworoheye kandi ameze neza umubiri wose.

Umugabo uhagaze ari muri siporo ari kwigorora, yambaye isengeri y'umukara ari gukora siporo kugira ngo ubuzima bwe bukomeze kugenda neza, umubiri we ufite imbaraga kandi atekereza neza nta kibazo afite cyerekeranye n'imibereho.

Mu gihe wiriwe wicaye umunsi wose uri mu kazi, ugomba gukora siporo zimwe na zimwe kugira ngo urengere urutirigongo rwawe, ururinde ko rwakwangirika bitewe no kwirirwa uruhinnye wicaye ku ntebe kugira ngo ubuzima bwawe ukomeze kuburengera kandi ukomeze kuba umeze neza.

Hari ubuvuzi bw'umwihariko buhabwa abantu bakora siporo, kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze kuba bumeze neza, imibiri yabo ifite imbaraga zihagije, n'ubudahangarwa bwo kuba bakatakwa n'indwara izo arizo zose ku buryo bworoshye.

Icyumba cyahariwe gukorerwamo siporo, ndetse n' ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora siporo ,hamwe n'ibyuma byo guterura ,amagare yo kunyonga, hahagaze n'umugabo uri gukoreramo siporo, uterura icyuma, kugira ngo umubiri we ukomeze ukomeye kandi ufite imbaraga.

Igikapu cy'umutuku cyifashishwa gutwaramo ibikoresho bakoresha mu gihe bari gutanga ubutabazi bw'ibanze harimo imiti mu gihe umuntu agize ikibazo bakaba bamufasha mbere y'uko agezwa kwa muganga ngo bamukurikirane bamwiteho.

Imbago yifashishwa mu gihe umuntu arikwimenyereza kugenda, ifite amapine kugira ngo akomeze agire ubuzima bwiza. Umubiri ukora neza nta kibazo kandi ameze neza ashobora kuva ahantu hamwe akajya ahandi, akaba yamenyereza umubiri we gukora. Akaba yasubira mu buzima busanzwe nta kibazo.

Umugabo wagiye kwa muganga kwivuza yavunitse ukuguru, wicaye ku gitanda, imbere ye hari umuganga uri kumufasha amuzirikira bande aho yavunitse kugira ngo amuvure, aharinde kuba habyimbirwa kandi igufwa ryagize ikibazo risubire mu mwanya waryo mu buryo bworoshye kandi bwizewe.

Umugabo uri mu cyumba cyagenewe gukorerwamo siporo, ari muri siporo, wambaye ikabutura y'umukara n'umupira w'ubururu, iruhande rwe hahagaze umuganga uri kumwerera uko zikorwa, kugirango zimugirire akamaro, zitagira izimwangiza.

Ibikapu bifite amabara atukura n'agasanduku kifashishwa mu gutwaramo imiti n'ibikoresho, bikoreshwa mu gutanga ubutabazi bw'ibanze, mu gihe hari umuntu wagize ikibazo cyanga akomeretse, bakaba bamufasha kubona ubuvuzi bw'ibanze, mbere yuko agezwa kwa muganga cyangwa ku bitaro ngo bamukurikirane.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bigezweho byifashishwa mu buvuzi mu gihe bari gufasha abantu babagannye barwaye, kugira ba bone ubuvuzi bugezeho kandi bwizewe mu gihe gitoya kitarambiranye.

Umugabo uhagaze uri muri siporo wambaye umupira w'amaboko magufi, ufite icupa ry'amazi uri kuyanywa mu gihe ari kuruhuka kugira ngo umubiri we wongere gutora imbaraga abashe kuba yakomeza gukora siporo neza nta kibazo umubiri ufite.

Umugabo wicaye mu ntebe afite agatambaro k'ubururu mu ntoki, ari kwikanda mu nkokora ahantu yababaye kugira ngo uburibwe burimo bugabanuke, kandi yirinde ko habyimbirwa n'izindi ngaruka zose zaterwa no kutahitaho.

Umugabo wicaye mu kagare k'abantu babana n'ubumuga, ari gukora siporo yimenyereza kugira ngo umubiri we umere neza wongere kugarura imbaraga mu gihe yari amaze arwaye, imbere ye hahagaze umuganga ari kumufasha amwerekera uko abikora.

Imeza iteretseho ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gutanga ubutabazi bw'ibanze, mu gihe hari umuntu ugize ikibazo, ukomeretse cyangwa uvunitse, cyangwa wakoze impanuka, bakabasha kuba bamufasha, bakamuha ubutabazi bw'ibanze, mbere y'uko agezwa kwa muganga, cyangwa ku bitaro kugira ngo bamukurikirane.

Imeza iteretseho ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza, hariho ibikoresho umuntu akoresha ari muri siporo, nk'ikweto, ibyuma byo guterura ndetse n'imboga n'imbuto kugira ngo afate ifunguro ryuzuye nyuma ya siporo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo imashini zitandukanye zifashishwa mu kuvura abarwayi baje babagana, hahagazemo umugabo uri kuzikora kugira ngo zigume zimeze neza kandi zikora neza, ku buryo nta kibazo byateza igihe bari kuvura umurwayi.

Inzu yagenewe gukorerwamo siporo, irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo umuntu bimworohere, harimo ibyuma byo guterura, amagare yo kunyonga, tapi zo kwirukankaho zikoreshwa n'umuriro w'amashanyarazi kugira ngo umuntu byose abikoreshe yita ku buzima bwe.

Ameza keretseho imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura umuntu ugize ikibazo muri siporo avunitse cyangwa akomeretse akaba yafashwa mu buryo bwihuse bworoshye mbere y'uko agezwa kwa muganga ngo bamukurikirane bamwiteyeho mu buryo busanzuye nta kibazo afite.

Umugore wicaye hasi kuri tapi uri muri siporo, yarambuye amaguru imbere ye, yafatishije ibiganza munsi y'ibirenge, ari kunama agakoza umutwe ku mavi, kugira ngo akomeze agorore urutirigongo rwe rube rumeze neza.

Abagabo babiri bambaye imyenda ya Croix rouge itukura, bateruye umusore mu maboko, bari kumufasha bamuha ubutabazi bw'ibanze mu gihe akoze impanuka mbere yuko bamugeza kwa muganga ngo bamwiteho bamukurikirane.

Igikapu gifite ibara ry'umutuku, kirimo ibikoresho n'imiti byifashishwa mu gutanga ubutabazi bw'ibanze mu gihe hari umuntu ugize ikibazo ukomeretse cyangwa akoze impanuka, akaba yafashwa mbere yuko agezwa kwa muganga cyangwa kubitaro ngo bamukurikirane.

Umugabo wicaye afite ipamba mu ntoki y'ubururu, yifashisha mu gihe ari gukanda ahantu havunitse kugira ngo areke kuriribwa, habashe kuba hatabyimbirwa ku buryo byateza ikindi kibazo.

Inyubako yagenewe gukorerwamo siporo, irimo ibikoresho byifashishwa mu gihe umuntu ari muri siporo bitandukanye, harimo amagare yo kunyonga, na tapi zo kwirukankaho zikoresha umuriro w'amashanyarazi, n'ibyuma byo guterura, harimo umukobwa uri gukoreramo siporo kugira ngo ubuzima bwe bukomeze kugenda neza.

Umukinnyi uryamye mu kibuga, imbere ye hari umugabo uri kumukanda mu gihe amaze kuvunika kugira ngo umubiri we wongere usubirane, amagufwa ye akore neza, abasha kuba yatora imbaraga.

Umugore uri muri siporo wambaye isengeri ufite n'isume y'umweru ku rutugu ari kunywa amazi gihe yari arimo aruhuka ngo umubiri wongere gutora imbaraga abashe kuba yakomeza gukora siporo ameze neza nta kibazo.

Umugabo uhagaze uri muri siporo wambaye umupira w'ubururu ufite icupa ry'amazi mu ntoki ari kuyanywa kugira ngo umubiri we ubone amazi ahagije yo gukoresha, wongere utore imbaraga ukomeze gukora siporo nta kibazo.

Umugore uhagaze mu nzira uri muri siporo yunamye ari kuruhuka, yifatishije amaboko mu mavi kugirango umubiri we wongere utere imbaraga abashe kuba yakomeza nta kibazo afite.

Icyumba cyo kwa muganga giteraniyemo abantu benshi bafite inshingano mu bitaro bari kureba amashusho umuntu uri kubasobanurira kugira ngonge kubabwira ateze amatwi acecetse.

Umugore uri muri siporo wicaye hasi wambaye ipantaro y'umukara, isengeri y'umukara n'inkweto zifunze z'umweru, afite terefone ku kuboko wambaye na ekuteri mu matwi, ari gukora siporo kugirango akomeze ubuzima bwe bumeze neza kandi umubiri ube ufite imbaraga.

Umugore uhagaze ku mazi uri muri siporo wambaye ikabutura y'ubururu n'isengeri y'ubururu n'inkweto z'ubururu, yazamuye akaguru kamwe yagafatiye hejuru, agafatishije amaboko kugira ngo akomeze yigorore, yongere uburinganire bw'umubiri amere neza.

Kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza, agomba gukora siporo nyuma ya siporo agafata indyo yuzuye, igizwe n'ibiririnda ndwara, ibitera imbaraga n'ibyubaka umubiri, kandi akazizirikana gufata imboga n'imbuto ku mafunguro ye ya buri munsi.

Icyatsi gifite amababi n'indabo zacyo, byifashishwa mu gutunganya imiti ya gakondo mu gihe byakozwe n'umuntu ubifitiye uburenganzira kandi ubifitiye ubushobozi, bikaba byakurwamo imiti ivura indwara zitandukanye kandi yujuje ubuziranenge kuko nta ngaruka mbi ifite ku buzima bw'umuntu wayikoresha.

Icupa riteretse ku meza ririmo umuti wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, watunganyijwe neza hifashishijwe ibikoresho bya gakondo kugira ngo ube wakoreshwa uvura indwara wateganyijwe kuvura kandi mu buryo bwizewe, wujuje ubuziranenge.

Igiti gifite amashami n'ibibabi by'icyatsi kibisi, byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo mu gihe byatunganyijwe neza, umuntu ubifitiye uburenganzira, igakurwamo imiti ivura indwara zitandukanye kandi yizewe ko nta ngaruka mbi ifite, ku buzima bw'umuntu.

Akabati gateretsemo amacupa atandukanye arimo imiti ya gakondo, yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye mu gihe yateguwe neza n'umuntu ubifitiye uburenganzira, ikaba yavura indwara kandi nta ngaruka mbi ifite ku buzima bw'umuntu wayikoresheje.

Ibiti biri mu ishyamba, amashami, amababi n'imbuto zabyo byifashishwa mu gutunganya imiti ya gakondo mu gihe byakozwe n'umuntu ubifitiye uburenganzira. Bigakurwamo imiti yujuje ubuziranenge, ikaba yakoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Igiti gifite amababi n'amashami amababi yacyo yifashishwa mu gukora imiti ya gakondo mu gihe byatunganjwe neza n'umuntu ubifitiye uburenganzira, akabishyira mu bikoresho byabugenewe bituma biguma bifite ubuziranenge, bikaba byakoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Iteretseho amacupa atandukanye hari n'imiti hifashishijwe ibikoresho bya gakondo kugira ngo ivure indwara zitandukanye yujuje ubuziranenge kandi yizeye ko nta ngaruka mbi ifite ku buzima bw'umuntu wayikoresha,

Imeza iteretseho ibikarito birimo imiti, yatunganiyijwe neza kugira ngo ikoreshwe ivura indwara zitandukanye, yujuje ubuziranenge kandi yizewe ko nta ngaruka mbi ifite ku buzima bw'umuntu wayikoresheje.

Ishami ry'igiti rifite amababi y'icyatsi kibisi, ryifashishwa mu gutunganya imiti ya gakondo, mu gihe byakozwe n'umuntu ubifitiye uburenganzira kandi ufite ubushobozi, akaba yabivanamo imiti ivura indwara zitandukanye, yizewe ko nta ngaruka ifite ku buzima bw'umuntu wayikoresheje.

Amacupa atandukanye arimo imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, kandi kuri buri cupa hagiye hometseho icyapa kigaragaza izina ry'umuti urimo nuko gukoreshwa, ko nta kibazo ufite ku mubiri w'umuntu waba wawukoresha,

Igiti giteye kugira ngo nikimara gukura amababi yacyo n'amashami yacyo azifashishwe mu gutunganya imiti hakoreshejwe ibikoresho bya gakondo, mu gihe hari umuntu ubifitiye uburenganzira akaba yabikuramo imiti ivura indwara zitandukanye.

Amacupa arimo imiti yifashishwa mu kuvura indwara, yateguwe neza hakoreshejwe ibikoresho bya gakondo, ikaba yizewe ko nta ngaruka ifite ku buzima bw'umuntu wayikoresheje ntakibazo.

Amacupari y'imiti yateguwe hifashishijwe ibikoresho bya gakondo kugira ngo itunganywe neza, ibashe kuba yakoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye mu buryo bwizewe kandi vuba ku buryo nta ngaruka mbi ifite ku buzima bw'umuntu waba wayikoresha.

Ibikombe biteyemo ibyatsi byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo mu gihe byasaruwe neza, bigatunganywa n'umuntu ubifitiye uburenganzira; ubifitiye ubushobozi, bigakorwarwamo imiti ivura indwara zitandukanye kandi yizewe.

Urutunguru n'indimu ni bimwe mu bikoresho byifashishwa mu gutunganya imiti ya gakondo, ikaba yavura indwara mu gihe yizewe neza kuko nta ngaruka mbi ifite ku buzima bw'umuntu waba wayikoresheje nta kibazo yamugiraho.

Ahantu harunze ibikoresho bitandukanye, byifashishwa n'abavuzi ba gakondo, kugira ngo bavure abaturage, mu buryo budaciye mu mucyo, babahe imiti yateguwe hakoreshejwe ibikoresho bya gakondo.

Imeza iteretseho amacupa n'ibikarito birimo imiti yatunganyijwe neza kugira ngo ishyirwe ku isoko kuba yavura abarwayi indwara zitandukanye, yujuje ubuziranenge kandi yizeye ko nta ngaruka mbi ifite ku buzima bw'umuntu wayikoresheje.

Umugabo uhagaze, ari gusoroma amababi y'ibiti n'amashami yabyo n'imbuto yabyo kugira ngo abyifashishe akore imiti ya gakondo, mu gihe abifitiye uburenganzira, yujuje ubuziranenge, ishobora kuba yakoreshwa ivura indwara zitandukanye.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo, harimo ibibabi, amashami y'imiti n'imbuto, kugira ngo bitunganwe neza, bibashe kuba byavanwamo imiti ivura indwara zitandukanye, kandi yujuje ubuziranenge.

Amacupa arimo imiti, itandukanye, yateguwe hifashishijwe ibikoresho bya gakondo ,mu bimera, ari mu macupa atandukanye, harimo ay'umweru n'ay'umuhondo ,kandi kuri buri cupa gihagiye handitseho amagambo, agaragaza izina ry'umuti urimo aho, ni uko ukoreshwa kugirango utandukanywe n'indi.

Buri murima utewemo ibyatsi, bifite amabara y'icyatsi kibisi, amababi yabyo yifashishwa mu gutunganywa, agakora imiti ya gakondo yizewe kandi ifite ubuziranenge, ikaba yakoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Akabati gateretsemo amacupa atandukanye abonerana, arimo imiti ya gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, kandi kuri buri cupa hariho igipapuro kigaragaza izina ry'umuti urimo n'uko ukoreshwa.

Ibimera biteye mu murima, bifite amababi y'icyatsi kibisi n'indabyo z'umuhondo, byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo mu gihe byasaruwe neza, bigatunganywa n'umuntu ubifitiye uburenganzira bikavanwamo imiti yizewe kandi yujuje ubuziranenge, yakoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Amacupa arimo imiti itandukanye yatunganyirijwe hifashishijwe ibikoresho bya gakondo, kugira ngo ivure indwara zitandukanye, kuko yujuje ubuziranenge, kandi ikaba nta ngaruka mbi ifite ku buzima bw'umuntu wayikoresheje.

Ishyamba ririmo ibiti bitandukanye, amababi yabyo n'amashami yabyo byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo, mu gihe byatunganyijwe neza bigashyirwa mu bikoresho byizerewe kandi bifite isuku, ituma igumana ubuziranenge ikaba yakoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Icupa riteretse ahantu ry'umweru, ririmo imiti yatunganyijwe hifashishijwe ibikoresho bya gakondo kugira ngo ibe yavura indwara zitandukanye. Kandi kuri iryo cupa hometseho igipapuro cyanditseho izina ry'umuti n'uko ukoreranishwa, kugira ngo utandukanywe n'indi.

Imeza iteretseho imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura indwara yateguwe hifashishijwe ibikoresho bya gakondo kugira ngo ibashe kuba yavura indwara zitandukanye yujuje ubuziranenge kandi yizewe.

Amacupa arimo imiti yateguwe neza hakoreshejwe ikawa kugira ngo ivure indwara nyinshi kandi zitandukanye mu buryo bwizewe, yujuje ubuziranenge kuko nta ngaruka mbi ifite ku buzima bw'umuntu.

Igiti gifite amababi y'icyatsi kibisi, yifashishwa mu gutunganya imiti ya gakondo mu gihe yasaromwe neza, ikaba yavanwamo imiti ivura indwara zitandukanye, yujuje ubuziranenge kandi yizewe ko nta ngaruka mbifite ku buzima bw'umuntu wayikoresha.

Umugabo uhagaze, ufite ibikoresho bitandukanye imbere yo ku meza, ari kwifashisha atunganya imiti ya gakondo kugira ngo ayivanemo ishobora gukoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye kandi yizewe ko nta ngaruka mbi ifite ku buzima bw'umuntu.

Icupa ry'umwuru ririmo umuti watunganyijwe hifashishijwe ibikoresho bya gakondo kugira ngo ube wakoreshwa kandi kuri iryo cupa handitseho izina ry'uwo muti urimo n'uko ukoreshwa kugira ngo uwuguze abashe kuwutandukanya n'indi.

Imeza iteretseho amacupa n'ibikarito birimo imiti yateguwe hifashishijwe ibikoresho bya gakondo, kugira ngo ikoreshwe ivura indwara zitandukanye, mu gihe yemejwe ko nta ngaruka ifite ku buzima bw'umuntu, kandi yizewe ifite ubuziranenge buhagije.